Abantu benshi bicaye mu ihema, abagore n'abagabo, imbere yabo hahagaze umugabo ari kubaganiza, ari kubabwira ibyerekeye ubuzima ndetse n'uburyo bagomba kwitwara kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza

Iriba rikoze neza, rifite ahantu no kuvomera hatandukanye. Abantu benshi barihagaze imbere bazanye ibivomesho, indobo n'amajerekani. Bari kuvoma, urabona ko biteguye kuvoma amazi meza.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo uri kuvoma mu mugezi utemba akoresheje injerekani y'umuhondo, impande ye hari ibyatsi byinshi bitoshye ndetse n'umugabo uri koza igare yaricuritse, ubona ko buri wese ari gukora ibye kandi atuje.

Ababyeyi benshi bahagaze imbere y'inzu, begeranye cyane, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, ndetse baritonze ,bifashe neza .Bari kwifotoza ifoto y'urwibutso, kugira ngo bajye bahora bibuka igihe bahuriye.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga basuzuma ndetse banavura amenyo. Birambitse ahantu habugenewe, heza kandi hasukuye, kugira ngo bize gukoreshwa bifite isuku nziza.

Umuntu uryamye ku gatanda wasamye, impande ye hari abantu babiri bari kureba mu menyo ye, ngo barebe ko afite ikibazo babashe kumuvura, amenyo ye aragaragara nk'aho afite ikibazo, ariko ubwo ari kumwe n'abaganga baramuvura.

Umukobwa wicaye ahantu heza afite icyirori mu ntoki ari kwirebaba mu isura yifashe ku kananwa, ari guseka aranezerewe ari kureba isura ye uko isa neza, bigaragara ko yishimye pe!

Inzu nziza abantu bazihagaze imbere bari kuganira, impande y'izo nzu hari imodoka ihaparitse. Izi nzu ziragaragara nk'aho ari ibitaro ahantu abantu bivuriza kugirango bagire ubuzima bwiza.

Abagore n'abagabo bari mu kibuga gisashemo amapave, bambaye imyenda ya siporo, bari gukora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Siporo ituma umubiri umera neza kandi igatuma ugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Akagare gafite udupine k'umukara, aho kwicaraho h'umukara ndetse ibindi bice byako akaba ari umutuku. Aka kagare ubusanzwe gakoreshwa n'abantu bafite ibibazo byo kugenda, bakakifashisha kugira ngo babashe kugenda.

Imiti ikozwe mu bimera iri mu macupa ishushanyijweho ikimero cyitwa igikakarubambaka, igikakarubamba tuzi ko ari ikimera kibasha kuvura abantu benshi kandi indwara zitandukanye. Bivuze ko rero iyi miti mu bintu biyikoze harimo igikakarubamba.

Imiti myinshi itandukanye iri mu macupa, indi iri mu mashashi, harimo ibinini, harimo amavuta, harimo ifu ndetse bigaragara ko iyi miti ikozwe mu bimera.

Ibyatsi byinshi bitoshye, bifite amababi meza, birambitse ahantu, ibi byatsi rero byifashishwa mu kugira ngo bavure abantu, bakoresheje uburyo bw'ibimera. Uburyo bw'ibimera rero, ni bwiza mu kuvura abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.